Bumwe mu buryo bukoreshwa mu kwitoza kuzaba umuyobozi mu gihe kizaza, ni ukuvugira imbere y'abantu, aho bigusaba ubwitonzi, no kuba wavuga ikikuri ku mutima ntawe ubangamiye cyangwa se utera amabuye.

Igihe abayobozi bicaye mu biro byabo bo mu nzego zo hejuru usanga batamenya ibibazo abaturage bahura na byo, rimwe na rimwe bijya bibaho ko abayobozi bamanuka bakajya mu baturage maze bagakora ibiganiro na bo, aho abaturage bababwira imva n'imvano y'ibibazo bahura na byo maze bakareba uburyo babikemura.

Arubyiruko rwishimira cyane, uburyo umukuru w'igihugu arwitaho, yaba ari inama abaha, mu bijyanye no gukunda umurimo, ndetse no gusangira ibitekerezo na bagenzi babo. Aha ndavuga, nko kuba yabatera ingabo mu bitugu, abaha amahugurwa agiye atandukanye, bemererwa nk'urubyiruko.

Ni mu bihugu bike aho usanga abantu bahurira ari benshi baba bafite umutekano usesuye. Aha ndavuga kubona abaturage bishimye ndetse bishimiye ubuyobozi bwabo aho usanga mu bihugu bindi utabibona kuko haba harimo amakimbirane ndetse n'abaturage batishimiye ubutegetsi bubayoboye.

Amwe mu mahugurwa akorwa n'abayobozi cyangwa se ibigo bigiye bitandukanye, aba agamije cyane kurebera hamwe inyungu za rubanda, aho usanga bibanda ku bikorwa remezo ndetse n'imyigire hatibagiwe ku kwita ku miryango.

Bumwe mu buryo bugenda bugaragara hirya no hino, ni uko usanga leta yihita ku rubyiruko, aho igenda igena amahugurwa agamije kubakangurira kwitabira umurimo. Ndetse no kwihangira udushya, ku bijyanye n'isoko ry'umurimo.

Mu gihe inama z'abayobozi ziri kuba kuri ubu ngubu dukunze guhita tubona amakuru ku gihe kubera ko hari imbuga nkoranyambaga nyinshi ziba zitabiriye ibyo biganiro, bitandukanye na kera aho inama yabaga ukaza gutegereza kuri radiyo ko batangaza ibyavuye mu nama.

Bumwe mu buryo busigaye bukoreshwa n'abakoresha, usanga ari uguhamagaza abakozi bose bakorera icyo kigo bagakora inama, bakaganira, bakarebera hamwe ibitagenda neza ndetse n'ibigenda neza bakabashimira maze bigatuma barushaho gutanga serivisi inoze.

Bimwe mu bikorwa bigenda bigaragara hirya no hino mu manama, usanga ari uguhuriza hamwe ibitekerezo no kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo urubyiruko rurusheho kwiteza imbere. Maze bakaba bahuza abantu bagiye batandukanye mu rwego rwo kubagira inama ndetse no kuzamura ubushobozi bwabo.

Ayo abayobozi bashatse kuganira bakoresha uburyo bw'inama, kuko usanga iyo ibaye bituma buri umwe wese a avuga uko yumva, ndetse akagaragaza n'igitekerezo cye, maze bakaza gushakira umwanzuro hamwe ntawe uhejwe.

Bimwe mu bisigaye biranga Igihugu cyacu bikakigira icy'umwihariko mu bindi bihugu byo muri iyi ntara y'Iburasirazuba y'Afurika, ni uko tugenda twakira amanama agiye atandukanye, ahuza abayobozi b'ibihugu ndetse n'abandi bashoramari bagiye batandukanye.

Bamwe mu bagize urubyiruko rwo mu Rwanda bashishikajwe cyane no kwakira amahugurwa ku bijyanye no kwikorera ndetse no gushishikarizwa cyane umurimo, aho usanga bamwe muri bo ari bo ba rwiyemezamirimo b'ejo hazaza, kandi bashimira leta kuba iba yabahaye ayo mahirwe.

Bimwe mu bintu byagoraga cyane mu myaka ya mbere ni ukubona umugore ahagaze imbere y'abantu b'abagabo ari kuvugira mu ruhame gusa kuri ubu ni ibintu byoroshye kubera gahunda yo kuzamura uburinganire aho ushobora gusanga abagore ari nka mirongo inani ku ijana mu bikorwa by'ubuyobozi ndetse n'ahandi hantu ahari ho hose.

Bimwe mu bituma ba rwiyemezamirimo badacika intege mu gutanga ibitekerezo byabo, ni uko usanga akenshi bahawe umwanya bakaganirizwa, ndetse na bo bakagira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa ry'uko iterambere ryakwira hirya no hino mu turere dutandukanye.

Bamwe mu bayobozi bakuru b'ibigo hano mu Rwanda bagenda bashishikariza abo bayobora kuba bakwita ku nyungu za rubanda nyamwinshi, kuko atari bo bikorera ahubwo baba bakorera igihugu cyacu, mu buryo bwo kubakundisha umurimo ndetse n'inshingano baba bariyemeje.

Bamwe mu bakoresha bakunze guhamagara abakozi bakoresha mu gihe runaka bagiye gukora inama y'uburyo imirimo yabo y'akazi iri kugenda, aho umuyobozi mukuru ashobora kubasobanurira mu byo yifuza ndetse n'icyerekezo bakoreramo kugira ngo barusheho kukimenya.

Bimwe mu byo abayobozi bari mu nzego zo hejuru, urugero nk'abaminisitiri n'abadepite bashimira cyane inzego z'ibanze, ni uko hari imikoranire myiza yabo ndetse n'abaturage. Aha usanga bikemura ibibazo byinshi ndetse bikita cyane ku bibazo by'imibereho myiza y'abaturage.

Bimwe mu bikorwa bikorwa n'abakozi bakora mu bigo bya leta usanga ari uguhuriza hamwe ibitekerezo no kujya inama ku byakorwa kugira ngo barusheho gutanga serivisi bashinzwe gutanga mu baturage nta nkomyi cyangwa se nta kibitambitse aho bungurana ibitekerezo bakanajya inama.

Bimwe mu bivugirwa mu nama z'abayobozi, cyane b'inzego z'ibanze, ni uburyo bwo kurushaho kwita ku baturage bayoboye. Aho usanga bita cyane ku bibazo abaturage bahura nabyo, ndetse n'amakimbirane aboneka mu miryango, igiye itandukanye.

Rimwe na rimwe biba ngombwa ko abayobozi bo hejuru bamanuka bakegera abaturage, bakajya mu biganiro, aha usanga abaturage baba bakoranye, bavuye hirya no hino mu mirenge itandukanye, bakagira aho bahurira maze bakabaha ibiganiro, abafite n'ibibazo byananiranye ukaba babivuga, maze bigakemurwa.

Mu gihe cy'umwiherero w'abayobozi b'igihugu, abo dukunda kwita abaminisitiri ndetse n'abadepite, usanga baganira ndetse bakanagaruka ku byugarije abaturage, yaba ari mu buryo bw'inzara cyangwa mu buryo bw'ubushomeri, aha ndavuga mu kurebera hamwe ibibazo rubanda nyamwinshi bafite.

Bumwe mu buryo bukoreshwa na leta mu guhugura urubyiruko ku bigendanye no kumenya igihugu n'amateka yakiranze, binyura mu cyo twita urugerero, mu gihe abanyeshuri barangije amashuri yabo yisumbuye bateranira hamwe maze bagahugurwa ku bijyanye n'umuco waranze iki gihugu n'amateka yacyo.

Bamwe mu rubyiruko bishimira inama n'amahugurwa leta igenda itanga mu gufasha urubyiruko kuzamura uburyo bwo kwihangira imirimo, ndetse bakabasha no kubahuza n'ibigo bigiye bitandukanye bishobora kubafasha mu gushyira ibitekerezo byabo mu ngiro.

Bamwe mu rubyiruko mu mahuriro abahuza ndetse n'amanama n'amahugurwa agiye atandukanye bitabira bagenda bagaragara cyane basaba leta y'uko yajya ibavuganira kuri ba rwiyemezamirimo babaha akazi nti babasabe uburambe mu kazi kuko ntabwo baba bakagize mu gihe barangije amasomo yabo.

Mu gihe cy'inama, mu duce tumwe na tumwe two hirya no hino, usanga abaturage bahurira ahantu hamwe bakaganirizwa n'abayobozi babo. Bakabagira inama ndetse bakanabakangurira kwitabira serivisi za leta zihari cyangwa se zigezweho kuri ubu. Maze bakanababwira n'uburyo bashobora kwirinda indwara zimwe na zimwe.

Bimwe mu birangaje imbere igihugu cyacu cyane ko umukuru w'igihugu akunda kubigarukaho ni ugushakira amahirwe agiye atandukanye urubyiruko. Binyuze mu buryo bwo kubahugura ndetse no kubashishikariza gukunda umurimo no kwikorera aho baba bafite abajyanama ndetse n'abandi bantu babafasha mu kuzamura ubumenyi bwabo muri iyo mirimo.

Mu nama z'abayobozi batandukanye usanga akenshi hibandwa ku gukemura ibibazo by'abaturage aho usanga barebera umuryango mugari hamwe hakibandwa no kuba bakwita ku bituma abaturage batumvikana mu buryo bwo gukemura amakimbirane mu miryango ndetse no kwita ku mwana wese nk'uwundi.

Bimwe mu byo leta kuri ubu ngubu ishyiramo imbaraga ni uburyo bwo guteza imbere ubukerarugendo aho usanga bakora amanama n'abaturage ndetse bagashishikariza na ba rwiyemezamirimo kuba bajya batanga serivisi nziza.

Bimwe mu bikoresho dusanga kwa muganga akenshi abantu barabitinya kuko usanga bikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga cyane, gusa nanone ntitwakwirengagiza ko bijya bitabara ubuzima bw'abantu benshi ndetse bikabasubiza icyizere.

Bimwe mu bikorwa byo gushishikariza abaturage kwandikisha ubutaka, ndetse no kugira ibyangombwa by'ubutaka bwabo byagiye bikorwa n'ikigo gishinzwe kugena imisoro n'amahoro. Aho bagiye batanga uburyo ngenderwaho bwo gutanga imisoro ku byerekeranye n'ubutaka.

Zimwe muri serivisi za leta zisigaye zitangwa binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho abaturage bamaze kubimenyera ndetse banashishikariza bagenzi babo bo ubwabo kuba bakoresha ubwo buryo bunyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga kuko aribwo bwizewe kandi buri ku giciro gikeya.

Bimwe mu bigo bitanga akazi cyangwa se bishaka abakozi, usanga abantu bagenda bitotomba bavuga ko babikora mu buryo butujuje amategeko, aho baba babashinja ko bagira ikimenyane ndetse n'uwatsinda atamenya niba yatsinze, kubera ko batamenya n'uko byagenze.

Bimwe mu bikorwa bigaragara by'iterambere mu kumenyekanisha imisoro ndetse no gukangurira abaturage ko bagomba gusora, binyuzwa ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro. Aho abaturage bose bamaze kumenya uburyo bwo kubireba ndetse bakarushaho bakanakira na serivisi zo kuri telefoni, zibibutsa ko bagomba gusora.

Bumwe mu buryo busigaye bworoshye kandi mbere bwari bugoranye, ni uburyo bwo gutanga imisoro. Aho abantu basigaye babyumva ndetse basobanukiwe icyo umusoro ari cyo, kuko babishishikarijwe igihe kinini ndetse bashyirirwaho n'uburyo bworoshye bwo kuba basora batavuye aho bari.

Kuri ubu uburyo bwo gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bugeze kure. Aho usanga abantu benshi bitabira gukoresha telefone twita ko zigezweho. Aho ushobora kubona abantu bane, abarenze batanu, ariko ugasanga babiri muri bo, bafite telefoni zigezweho.

Bamwe mu bashaka akazi kuri ubu ngubu, bemeza badashidikanya ko itangwa ry'akazi ribamo ikimenyane, aho usanga badashobora no gukora uburyo busanzwe abandi bakoresha bwo kunyura ku mbuga nkoranyambaga bashaka akazi, ahubwo bakumva ko aramutse afite umuntu azimo aribyo byamufasha kuba yabona ako kazi.

Zimwe muri sosiyete zicuruza itumanaho hano mu Rwanda, usanga zigenda zishyira iminara hirya no hino mu turere twose tw'igihugu, aho babikorera kugira ngo umuturage ajye abasha kubona umuyoboro mwiza wa Enterinete akoresha kuri murandasi.

Bimwe mu bikoresho tugenda tubona mu biro hirya no hino by'abayobozi, akenshi byarapfaga tukabura uburyo tubikoresha, ariko kuko urubyiruko kuri ubu rwihuguye mu buryo bwo gukora imirimo y'amaboko, usanga hari abagiye bazazi imirimo y'imyuga, bafasha abo bantu kuba bakora iyo mirimo.

Imwe muri gahunda leta yazanye mu gufasha abaturage kubona serivisi muburyo bubegereye, harimo iyo twita irembo. Aho umuturage ashobora kubona serivisi ashaka mu nzego z'ibanze izo ari zo zose atavuye aho ari kuri telefoni y'iwe.

Zimwe muri gahunda za leta zigenda zishishikarizwa cyane abaturage, harimo no kwitabira gukoresha uburyo bw'iterambere mu ikoranabuhanga, aho usanga mu turere twose hagenda haba ibiganiro bigamije gukangurira abaturage kwitabira izo serivisi.

Bimwe mu bigo bigena ibiciro by'ingendo ndetse n'ibindi biciro bigiye bitandukanye bigenda byishimirwa n'abantu, aho usanga bavuga ko batagikoresha amafaranga menshi ugereranyije na mbere kandi bakabona uburyo bwo kuva ahantu bari bajya ahandi mu mutuzo kandi ku giciro kiringaniye.

Zimwe muri serivisi z'iterambere usanga zigenda zegerezwa abaturage aha ndavuga nk'iminara y'itumanaho cyangwa amashanyarazi aho hirya no hino usanga abaturage babyishimira cyane ndetse bakavuga ko binabafitiye akamaro mu buryo bwo ku kugera nabo ku iterambere ugereranyije n'uko kera byari bimeze nta miriro bafite.

Bumwe mu buryo leta y'u Rwanda yakoresheje mu kwegereza abaturage serivise ni ugushyiraho gahunda zigiye zitandukanye n'urubuga rw'Irembo rukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, aho usanga umuturage wese yemerewe kurujyaho ndetse akaba yasabiraho serivise runaka.

Bimwe mu bikorwa bisigaye byitabirwa n'abaturarwanda benshi mu buryo bw'imisoro, aho usanga abaturage basobanukiwe ibijyanye n'imisoro ndetse banabishishikarizwa n'ubuyobozi mu buryo bwose bushoboka kuko mbere iyo wabwiraga umuntu imisoro wasangaga atabyumva ndetse yumva ko ari mafaranga Leta ibiri ku mwaka.

Bumwe mu buryo leta y'u Rwanda yanyujijemo mu gukurura ba mukerarugendo mu buryo bwo gusura igihugu cy'u Rwanda, bagiye bagirana amasezerano n'amwe mu makipe agiye akunzwe cyane mu gihugu cy'ubwongereza ndetse n'ibindi bihugu byinshi by'Iburayi maze bakabasaba imikoranire ku buryo babasha kubashyigikira mu kwamamaza ibikorwa byabo.

Leta ntiyigeze irekera guteza ibikorwa bigiye binyuranyuranye imbere; aho usanga no kuri ubu ngubu minisiteri y'ubuhinzi yaragiye ifasha abahinzi kugera ku iterambere. Aho ushobora gusanga bagenda babashishikariza ndetse bakanabahugura uburyo bahinga kandi bakoresheje uburyo bugezweho.

Bimwe mu byo ikigo cy'igihugu gishinzwe kuzamura iterambere ry'u Rwanda cyibandaho harimo gukangurira abaturage kwishimira ababagana aho ibi bizamura ba mukerarugendo basura u Rwanda rwacu.

Bamwe mu banyeshuri bo muri iki kinyejana basigaye biga bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, aribyo bibafasha mu myigire yabo ndetse no kugendana n'iterambere, mu busanzwe ugereranyije no mu gihe cya kera abanyeshuri basohokaga batazi ibijyanye n'ikoranabuhanga.

Bumwe mu buryo dusigaye tubona abantu bubaka iminara babigenza, basigaye babikora mu buryo bugezweho, aho usanga bashyiraho ikintu nyuma gihishe insinga ndetse kikaba cyahisha na ya mapoto yandi twajyaga tubona ari byo bituma hasa neza kandi ukabona ari ikindi kintu gitandukanye.

Imwe mu minara miremire tugenda tubona hirya no hino mu duce tw'igihugu, usanga atari iy'itumanaho gusa kubera ko na za radiyo ndetse n'amatereviziyo agenda akoresha iminara, mu rwego rwo kugira ngo imirimo yabo ibashe kugera ku baturage neza.

Kimwe mu kigo gishinzwe kugena ibiciro by'ibintu bigiye bitandukanye usanga kitavuga rumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, aho usanga bavuga ko hari aho kibogama mu gihe kigiye gushyiraho ibyo biciro cyane bikunze kugaragara mu buryo bw'ingendo.

Zimwe muri serivisi z'ikigo cy'imisoro n'amahoro, usanga abaturage bagira amahirwe yo kuzihugurwamo kuko iki kigo kigenda gitanga amahugurwa ku bantu bagiye batandukanye, bakoresha cyangwa se bakenera izo serivisi umunsi ku wundi.

Bimwe mu bigora Abaturarwanda ni ugukorera cyangwa se kwiga amategeko y'umuhanda. Aho abantu benshi bavuga ko bigoye ndetse hakoreshwa ikinyarwanda gikomeye, bituma bibaviramo gutsindwa mu gihe bagiye gukora ikizamini cyo gukora uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ikinyabiziga.

Bamwe mu bacuruzi bagiye batandukanye b'amaduka bishimira urujya n'uruza rw'ababagana aho baba bashaka serivisi nziza nabo bakabaha ibicuruzwa ndetse n'ibikoresho bimwe na bimwe bagenda bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi, harimo nk'ibyombo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Bumwe mu buryo bworoshye mu kuva ahantu ujya ahandi muri iki gihe, ni ugukoresha icyo dukunze kwita moto, aho usanga yihuta kandi ikaba yakugeza ahantu ititaye ku bucucike bw'imodoka buri mu muhanda, ndetse ikaba yanyura naho imodoka itanyura ariko ukaba wagera aho ugiye.

Bimwe mu biraje inshinga minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, ni ukwifuriza abantu gukunda umurimo ndetse no kubashishikariza gukora bakorera igihugu cyabo mu rwego rwo kuzamura iterambere rigaragara mu gihugu.

Bumwe mu bucuruzi bubera kuri murandasi harimo amaduka agiye akomeye, agenda ahuza abakiriya ndetse n'abaguzi, aho usanga uhitamo icyo ushimye maze bakakubwira igiciro cyacyo maze ukagihaha kandi kikakugeraho ukiri aho wagihahiye.

Imwe mu minara ya za sosiyete z'itumanaho hano mu Rwanda, igenda iba myinshi ndetse irushaho kugaragara muri buri turere twose. Aho ibi bifasha abaturage mu gihe bari kuvugana, bakaba bakumvikana neza ndetse n'igihe bashaka gukoresha umuyoboro wa interineti babasha kubona uko bayikoresha neza.

Bikunze kuvugwa ko kubona uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga mu rwanda, ari ibintu bigoye kubera ko amategeko y'umuhanda biba bisaba kuba uyazi kandi ukurikiza ibyo umupolisi akubwira. Abantu benshi bakunda kugira ubwoba gusa kuri bamwe biraborohera cyane bitewe n'uko bajya gukora icyo kizamini, bize neza kandi bifitiye icyizere.

Bamwe mu rubyiruko bagenda bemeza ko iyo wicaye hamwe ugakura amaboko mu mufuka ubona amafaranga, cyane ko bamwe batemera ko n'akazi kabuze ahubwo haba harimo ubushake bukeya bwo kugashaka kuko iyo ugashatse ukabona.

Bimwe mu byagiye bituma imisoro izamuka cyangwa se abaturarwanda bumva ko ari ngombwa kuyitanga, byagiye binyura muri minisiteri ya leta yo gutanga imisoro n'amahoro. Aho bagiye begera abaturage bakarushaho kubasobanurira no kubakundisha uko imisoro ikoreshwa.

Bimwe mu bituma abantu kuri ubu bagenda bagira amakuru agiye atandukanye, ni uburyo bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga, aho usanga amakuru agezweho ahita atangazwa, maze waba ukoresha itumanaho iryo ari ryo ryose, ufite na telefone igezweho ukabasha kuyabona.

Abantu benshi batandukanye muri iyi minsi usanga buri gitondo babyuka bajya gushaka amaramuko, aho usanga bari ku mihanda hirya no hino, bategereje kuba babona aho bakura amafaranga, ntibibaca intege ku bw'izuba cyangwa imvura yagwa, ahubwo bahora bashaka uburyo babona ibyo kurya.

Mu gihe cya kera wasangaga umuriro w'amashanyarazi ucishwa munsi y'ubutaka ariko kuri ubu siko bikiri usanga ahantu henshi hirya no hino hari amapoto agiye ashinze afasheho insinga arizo zitwara amashanyarazi mu ngo hirya no hino, bikaba ari na byo byoroheye abaturage mu buryo bwo gukurura umuriro mu ngo zabo.

Mu gihe cya vuba aha, biragoye ko mu mujyi wa Kigali wabona amapoto y'ibiti menshi, kuko bagiye bayasimbuza amapoto agiye akozwe mu buryo bukomeye, kuko aya y'ibiti yarasazaga akagwa ku baturage, ugasanga biteje impanuka za hato na hato.

Hirya no hino mu mujyi wa kigali ugenda usanga nimero zigiye ziri ku rupangu, ari zo ziba ziranga urupangu runaka, ari byo bisigaye byorohera umuntu kuba wamurangira ndetse ukamuha aderese y'aho utuye akaba yahagera atayobye.

Bumwe mu bukangurambaga leta yagiye ishyiramo imbaraga cyane mu gukangurira abaturage kubungabunga ibidukikije, aha ndavuga ko bagiye basaba buri muturage ko yatera ibiti birinda isuri imbere y'urupangu rw'iwe.

Iyo witegereje ahantu abantu baba bari bategereza amabisi, usanga haba hari uburyo bwo kwitwikira izuba, aho binyura abagenzi ndetse bakanabyishimira cyane kubwo kunoza serivisi y'ingendo zo mu muhanda cyane ku bakoresha ibinyabiziga, bava ahantu hamwe bajya ahandi.

Leta ibinyujije mu kigo gishinzwe gutanga amashanyarazi hano mu Rwanda, usanga bagira inama abaturage ko babujijwe gutera ibiti impande y'amapoto y'amashanyarazi, kuko rimwe na rimwe bivamo impanuka iyo ibyo biti bimaze gukura.

Bamwe mu bayobozi b'ikigo gishinzwe gutanga amashanyarazi hano mu Rwanda, usanga bagenda begera abaturage bababurira ndetse banabagira inama y'uko bagomba kwirinda ibyago byaturuka ku nsinga zigenda zigaragara zifashe ku mapoto hirya no hino.

Bumwe mu buryo dukunze kubona mu bigo bya Leta, harimo uburyo bwo kubika ibikoresho budasanzwe, aho baba bazi neza y’uko byaba ari amadosiye cyangwa ibindi bipapuro runaka, bizakenerwa mu gihe kiri imbere, ibi kandi bikagarukwaho cyane n'ibindi bigo bindi bigiye bitandukanye.

bimwe mu bintu leta yagiye ishyiramo, mu myaka mikeya ishize iri inyuma, ni ukugenda haterwa ibiti hirya no hino mu nkengero z'umuhanda, aho ibi biti usanga bigira umumaro cyane mu gufata ubutaka ntiburiduke cyangwa se ngo butengurwe.

Kwita ku muhanda, ibidukikije ndetse n'isuku ni ibintu Abaturarwanda bose bishimira, aho usanga umuturage yubahiriza gahunda zigenwa na leta z'isuku, akaba yakurikiza n'amabwiriza mu gihe cyo gutera ibiti ndetse no kubyitaho ku muhanda atuyeho.

Bumwe mu buryo bugenda bushyirwaho bucunga umutekano wo mu muhanda bagenda, bakoresha ibikoresho bifata amashusho, aho usanga abatwaye ibinyabiziga buri gihe baba bagomba kwitwararika kugira ngo batagwa mu ikosa iryo ariryo ryose.

Ikigo gishinzwe amashanyarazi hano mu Rwanda, kigenda kibuza ndetse kikaburira abantu ko amapoto agiye ashinzeho amashanyarazi atari byiza kuyegera cyane mu gihe cy'imvura no mu gihe cy'inkuba kuko bitera impanuka za hato na hato.

Rimwe mu iterambere ryageze ku baturage benshi bakishima mu bice bimwe byo hirya no hino harimo kubona amashanyarazi, ugereranyije na kera wayisangaga agace kose nta muriro cyangwa se nta mashanyarazi bafite ariko kuri ubu ngubu ntushobora kugira aho ujya ngo ubure itara ricanye.

Bimwe mu byapa binini cyane dushobora kubona mu muhanda bitandukanye n'ibindi dusanzwe tubona, akenshi biba byahurijweho ibintu bigiye bitandukanye kandi byose bisabwa gukurikizwa n'umuyobozi, cyane biba ari ibyapa ndanga, aho biba byekana ahantu cyangwa se inzira nyinshi zitandukanye.

Rimwe mu iterambere rikomeye cyane abaturage bamaze kwishimira ni uburyo imihanda isigaye imurikwa aha ndavuga mu gihe cy'ijoro aho byabaga biteye ubwoba kuba wagenda mu muhanda wenyine ariko kuri ubu kuko amatara bari hirya hino mu mihanda usigaye wumva niyo byagera asangahe wataha nta kibazo.

Hirya no hino mu duce dutandukanye tw' u Rwanda, hagenda hagaragara amapoto maremare, aho aba ashinzwe kujyana amashanyarazi mu ngo z'abaturage, cyane cyane yambukiranya imisozi, yambukiranya ibibaya, mu buryo bwo kunyuza amashanyarazi hejuru.

Bumwe mu buryo bukoreshwa nk'ikigo gishinzwe gutanga amashanyarazi ku baturage ni ugukoresha ibyuma byabugenewe birebire bishobora gufata insinga zambukiranya ziva ahantu hamwe zijya ahandi ku buryo bishobora kugera ahantu kure.

Zimwe muri serivisi zigenda zegera abaturage cyane harimo iy'ubuvuzi, aho usanga hirya no hino mu turere tugiye dutandukanye, buri murenge uba urimo ivuriro kandi riganwa n'abaturage cyane, aho usanga nta muntu ugikora urugendo rurenze ibirometero makumyabiri nta buvuzi abona hafi yiwe.

Bamwe mu bakozi b'umwuga bakora akazi ko gucunga ibintu, aho dusanga bacunga ingo z'abantu cyangwa se imirimo ya ba rwiyemeza mirimo igiye itandukanye hirya no hino, usanga banyuzwe kandi bishimira umurimo bakora.

Hamwe mu hatangirwa serivise hirya no hino, usanga bagenda bakurikiza amategeko agiye atandukanye. Aho hari aho usanga batonze imirongo cyangwa se hakaba hari intebe abantu bicaraho mu buryo bategereje abo bari gufasha ko barangiza.

Iyo witegereje kwa muganga usanga utuyira abaturage banyuramo tubadutwikiriye, kubera ko baba bashaka gukuraho inkomyi iyo ari yo yose yatuma umurwayi atabona serivisi nziza, cyane nko mu gihe cy'imvura ndetse n'ikindi gihe icyo aricyo cyose cy'izuba.

Zimwe mu nyubako tubona hirya no hino usanga zigenda zubakwa mu buryo butangaje. Aha ndavuga nk'inzu z'ubucuruzi, aho iyo uyirebye uba ubona ari ntoya ariko wamara kuyishyiramo ibicuruzwa ukaba ubona ifite umwanya uhagije.

Bamwe mu bakozi bakora kwa muganga bagenda bishimira serivise bagenda batanga, aho ugereranyije na kera abakozi bakora kwa muganga babaga ari bake cyane abenshi ugasanga ari abanyamahanga ariko kuri ubu ngubu usanga igihugu cyacu kimaze kwihaza mu buryo bw'ubuvuzi buhambaye.

Kuri ubu bigaragara ko ubuvuzi bwateye imbere, aho bitandukanye na kera wasangaga umuntu akenewe nko kubagwa bigafata igihe kinini, bitandukanye n'ubu ashobora gukenera iyo serivisi ariko akaba yayihabwa mu gihe kitarenze iminsi ibiri cyangwa itatu.

Bimwe mu biranga ibigo byigenga ndetse n'ibigo bya leta mu gutanga serivise ni uko usanga ahantu hose hasukuye cyane aho bakorera ndetse n'aho bakirira ababagana, ibi kandi babishishikarizwamo na leta mu buryo bwo kugira isuku n'umutekano mu gihugu cyacu.

Bamwe mu bacamanza bakuru, iyo bari kugenda bagera mu zabukuru, bakenera uburyo bwo kwakira abandi bazabasimbura, aho ugiye kwakirwa arahira ndetse akemeza y'uko azagendera ku kuri ndetse agashingira ku mategeko yize.

Amwe mu mategeko agaragara mu igazeti ya leta usanga abaturage benshi batayazi aho n'igihe uhuye n'ikibazo runaka bigusaba umunyamategeko wayize kuba yabigufashamo gusa sibikiri ibyo abenshi basigaye bagenda bayabonera ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bwo kuyamenya no kuyasobanukirwa.

Bamwe mu bacamanza ni abantu bazwiho cyane kuba inyangamugayo, aho usanga aho batuye babizera ndetse ari abanyakuri, kubera ko baba barize amategeko, ndetse banagaragara mu bikorwa byo gufasha rubanda mu buryo bwo kubaburanira mu nzego z'ubutabera.

Dusubiye inyuma dusanga mu gihe cya korona virusi abantu benshi baritwararikaga mu buryo bwo kwipfuka bambara agapfukamunwa, ariko ntibyakuragaho ko n'izindi gahunda runaka zikomeza aho wasangagamo mu rukiko bitabuza abantu kuba baburana cyangwa gukora izindi nshingano runaka zigendanye n'imirimo ya buri munsi.

Amwe mu mategeko agenda avugururwa mu igazeti ya leta, usanga abaturage batayamenya. Gusa kuri ubu kuko hariho umubare munini w'abanyamategeko bamaze kurangiza amasomo yabo ya za kaminuza, usanga bitakigoye cyane, kuko bamwe na bamwe bagenda banatanga ayo makuru ku mbuga nkoranyambaga.

Zimwe muri gahunda z'ubuyobozi bw'ibanze bwegereye abaturage, dusangamo abo twita abunzi, aho bashinzwe kuganira n'abaturage ndetse no gukemura amakimbirane agaragara mu baturage cyane, mbere y'uko bajya mu butabera.

Bijya bibaho ko leta ifata abantu ikabazamura mu myanya yo hejuru. Igihe bagutoye uba usabwa kujya impande y'ibendera maze ukavuga imigabo n'imigambi yawe, aha hagaragara cyane ubunararibonye aho usezeranya igihugu ko utazagihemukira ndetse uzuzuza inshingano zawe nk'uko uzitorewe.

Iyo inama y'Abaminisitiri yateranye abantu benshi baba bafite amatsiko yo kumva ibyavugiwemo, aho kera byabaga bigoye kuba wamenya ibyavuye muri iyo nama kuri ubu ngubu bisigaye byihuta kugera mu baturage binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse n'ibigo bindi bitangaza amakuru.

Bimwe mu bikorwa byagiye bihuza umuryango nyarwanda harimo ubwiyunge, aho wasangaga abantu bicara cyangwa se bateranira ahantu hamwe maze bakareba ibimeze nabi muri sosiyete bakabijyaho inama ndetse bakanahugurana, uwakoze amakosa akaba yayahanirwa ndetse n'uwayakorewe akababarira.

Bimwe mu bigo byashyizweho na Leta mu kugorora no gufasha abana baba mu muhanda harimo ibyiswe igororero. Aho umwana agenda bakamuhugura ndetse bakamwigisha bimwe mu bumenyingiro, akaba yagira icyo yimarira atagumye mu muhanda azerera gusa.

Amwe mu mategeko agenda atugonga nk'abaturage ngo ni uko tutayazi, usanga aba ahari kandi yanditse neza mu igazeti ya Leta ariko akenshi usanga twitabaza abantu bize amategeko, kugira ngo abe aribo badufasha kuyasobanukirwa.

Bimwe mu biranga abantu bari muri gereza ni uko baba bambaye imyambaro isa, ibi bigarukwaho cyane iyo wakatiwe icyo bita gufungwa igifungo cy'igihe runaka, aha usanga witaba urukiko rimwe na rimwe mu gihe baguhamagaye.

Hari bamwe mu bayobozi bagiye bava mu butegetsi bihuse, aha navuga nka Pasiteri Bizimungu aho yayoboye igihe gito cyane muri gahunda y'inzibacyuho kuko nta perezida wari uhari ni uko aza gutorwa ariko ntiyamazeho igihe kinini nawe.

Umwe mu bahanzi bagiraga ibihangano byihariye ndetse agakundwa n'abantu benshi, ariwe Kizito Mihigo, yaririmbaga indirimbo zijyanye n'iyobokamana aha yaje guhamwa n'icyaha cyo kuba yagambanira igihugu gusa birangira bitagenze neza igihe yari ari muri gereza birangira apfuye.

Mu mategeko iyo icyaha kiguhama urafungwa cyangwa se ukubahiriza igihano ushobora guhabwa, ariko mu bushinjacyaha hashobora kubaho ubujurire mu gihe uramutse utanyuzwe n'ibisubizo byavuye mu bacamanza bakuru, bityo bikaba byatuma wongera ukajurira ukareba ko wahanagurwaho ibyaha wari wemejwe.

Bamwe mu bantu bubahwa cyane n'abaturage ndetse na rubanda nyamwinshi ni abacamanza. Aho usanga baba ari abanyamategeko bahamye. Aba bemeza umuntu icyaha cyangwa se bakakimushinjura bitewe n'ibyo bari kuburanira.

Mu gihe cyahise wasangaga byari bigoranye guha umugore ijambo mu ruhame rw'abagabo, gusa siko bikiri kuri ubu kuko usanga byarahindutse kubera kwimakaza uburinganire mu muco nyarwanda, aho usigaye usanga abagore bafata iya mbere mu kujya no mu myanya y'ubuyobozi kandi ukabona ntakibazo.

Amwe mu matangazo areba abaturage asigaye asohoka bitari ngombwa ko urindira ko kuri radio bayavuga, ahubwo nawe wayiboneye, kubera ibikorwa byose bisigaye bikoresha uburyo bugezweho bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga.

Mu Rwanda mu gihe ukiri mu bushinjacyaha aho uri kuburana bigusabye kuba ufunze by'akanya gato ugomba kugira abaguherekeza bakuvana aho wari ufungiye ndetse ukaba wagana mu rukiko, aha iyo uburanye ugatsinda ni bwo ubona kurekurwa ntakibazo.

Bimwe mu biranga inama z'ungubu ugereranyije no mu gihe cya kera ni uko kuri ubu ngubu haba hubatswe icyumba cyabugenewe cy'inama y'abayobozi kirimo ibikoresho byose, ariko mu gihe cya kera siko byari bimeze kuko wasangaga bikoreshereza ibikoresho bisanzwe ndetse bakaba banicara n'ahantu hasanzwe ugereranyije n'ubu.

Bamwe mu bayobozi ba kera bayoboraga bari bafite inshingano mu nzego z'ibanze, wasangaga nta biro bafite kubera ko ibikorwa remezo byari bikeya, bitandukanye n'ubu aho ushobora gusanga kugera ku rwego rw'umudugudu, nabo bashobora kubona ibiro bakoreramo.

Imodoka zikunze gukoreshwa nk'imbangukiragutabara mu kugera ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro, zikunze gutabara zihuse, aho usanga abaturage bashimira uburyo zigera ahabereye icyago ndetse bakabasha gutanga ubufasha bwihuse.

Hirya no hino hakunze kugaragara cyane inkongi z'umuriro, rimwe na rimwe abantu ntibaba bazi icyateye izo nkongi, gusa haba hari ubutabazi bwihuse aho polisi ifatikanyije na leta haba hari imodoka ifite uburyo bwabugenewe bwo kuzimya amazi ihita itabara.

Rimwe mu iterambere ryagiye ryihuta ndetse rikanyura abantu n'uburyo bwo kuva mu buryo bwo gukoresha amakara tukayakoresha uburyo bwa gaz aho usanga abantu benshi baritabiriye kugura gaze ndetse bakareka n'uburyo bwo gukoresha ibyo tumenyereye twakoreshaga kera nk'inkwi ndetse n'amakara n'ibindi byose twacanishaga.

Igituma mu Rwanda hahora abantu benshi ndetse na ba mukerarugendo benshi, usanga bagenda bavuga ko ari umutekano, aho urebye hirya no hino haba hari abaporisi b'igihugu bashinzwe gucunga umutekano ndetse no kurebera abantu uburenganzira bwabo.

Bimwe mu bikoresho abantu bakunze gukoresha mu buryo bw'ubutabazi bw'inkongi y'umuriro, ni itegeko ko buri muntu wese ufite inyubako cyangwa se ubucuruzi runaka bukunda guhurirwamo n'abantu benshi abitunga kuko bigufasha mu gihe utiteguye inkongi.

Bimwe mu bikoresho bidufasha kurwanya no guhangana n'inkongi y'umuriro. Byabaye itegeko kuri bamwe cyane ku bafite ibinyabiziga, ndetse n'abantu bakorera cyangwa se bafite inyubako zihurirwamo n'urujya n'uruza rw'abantu. Kuko usanga ari uburyo bwiza bwo kwirinda mu gihe inkongi y'umuriro yaje.

Bamwe mu bagira inshingano zikomeye cyane mu muhanda usanga ari abo twita abapolisi bafite uburenganzira bwo kuba bahagarika ibinyabiziga ndetse bakemerera bimwe kugenda n'ibindi guhagarara usanga amategeko yabo asimburana cyane igihe baguhagaritse ukaba wahagarara ndetse n'igihe bakubwiye ngo genda ukaba wagenda.

Rimwe na rimwe usanga abaturage batazi aho babariza serivisi kuko haba hari serivisi zigomba guhera hejuru mu Karere, zikajya mu Murenge, zikabona kunyura mu Kagari ndetse no mu Mudugudu umuturage aherereyemo. Ibi ngibi hari ababa batabizi.

Kuri ubu umugore ari ku isonga, ndetse mu myanya y'abayobozi, bagena umwanya wo kubaha ijambo kugira ngo na bo bagire igitecyerezo batanga mu buryo bw'ubuyobozi, aha turavuga, nko kwimiriza imbere mu kuzamura ubushobozi bw'umwana w'umukobwa ari we igitsina gore.

Bamwe mu bayobozi usanga bagenda bagarukwaho n’umuyobozi w’igihugu mu gihe cy’umwiherero, aho aba babaza inshingano zabo ndetse akababaza n’ibyo bakoreye abaturage. Ahangaha, usanga bibaviriyemo kwirukanwa, rimwe na rimwe, iyo babonye ko batujuje inshingano zabo.

Abayobozi cyangwa se ba rwiyemezamirimo bo mu bigo byigenga usanga rimwe na rimwe baba bakeneye ko abakozi bakoresha babaha raporo yuko ibintu bihagaze, iyo usabwe raporo uba ugomba kuyitunganya ku buryo nta kosa rigaragaramo mu gihe ugiye kuyihereza umukoresha wawe.

Mu nama zikunze kuba rimwe na rimwe, harimo iz'abadepite, abasenateri ndetse n'abandi banyacyubahiro bagiye batandukanye, aho baba barebera hamwe ibyaba byangiza igihugu, bakabishyira ku murongo ndetse bakarushaho no gukemura ibibazo biri mu baturage.

Bimwe mu bikorwa bikorwa n'abayobozi bakuru bari mu nzego zo hejuru, usanga ari ukugenda bashaka uburyo bw'imikoranire n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, aho babinyuza mu gusinyana amasezerano arebana n'ibintu runaka bemeranyijweho.

Abaminisitiri b'igihugu usanga akenshi barangwa n'ibikorwa by'indashyikirwa. Aho baba bita ku buzima n'imibereho myiza y'abaturage bayoboye. Aha, umukuru w'igihugu akunze kuhagarukaho avuga ko babahashyira kubera ko baba babizeye ndetse bumva bafite ubushobozi bwo kuzakemura ibibazo by'abaturage.

Mu gihe habaye inama cyangwa se umwiherero mu buryo bw'abayobozi, usanga minisiteri, abasenateri ndetse n'abandi bose baba bahuriye hamwe bakaganirizwa n'umukuru w'igihugu, aho abanenga ndetse akanabashimira n'imirimo myiza bakoze.

Ni ahantu hakeya, kuri ubu ngubu, uzasanga batonze imirongo bategereje serivisi runaka, kubera ko ibintu byagiye bihinduka, ndetse n'uburyo abantu batangamo serivisi bugenda bihinduka. Iyo urebeye cyane muri serivisi zitangwa na Leta, usanga haba hari uburyo bwagenewe abaturage bwo kuba bahabwamo iyo serivisi.

Mu gihe cy'ibikorwa byo kwamamaza umukandida uzayobora igihugu cy'u Rwanda, abaturage bakunze kugaragara bambaye ibirango by'umukandida bazatora, aho usanga barangwa n'ibyishimo ndetse bamushyigikiye kandi biteguye gutora neza.

Mu buryo bwo gutora abayobozi cyangwa gushyira abandi bantu runaka mu myanya y'icyubahiro habaho uburyo bwo kurahira, aho usanga buri umwe wese avuga imigabo n'imigambi n'icyo azageza ku baturage ndetse n'icyo bazamwitegaho mu gihe azaba ari kuri iyo ngoma.

Mu gihe cy'itora mu gihugu cy'u Rwanda, usanga ibintu byose biba biri ku murongo ndetse n'umutekano aba ari mwinshi cyane, aho usanga no muri buri cyumba utoreramo haba harimo indorerezi ihagarariye buri mukandida uri kwiyamamariza kuba perezida.

Akenshi usanga abayobozi babarizwa mu nzego z'ibanze baba bari gutegurwa kugira ngo bazabe abayobozi bo mu nzego zo hejuru mu minsi iri imbere, aho usanga hagenda hazamurwa bamwe na bamwe bakajya mu myanya yo hejuru.

Hari abayobozi bamwe bamaze igihe kinini muri Guverinoma, aho usanga bafatwa nk'iya mbere mu kumenya ubuzima ndetse n'imibereho by'abaturage. Ibi ndavuga kuba baragiye bakora ku myanya igiye itandukanye irebana n'abaturage bishoboka kuba baba bafite uburambe bunini cyane.

Nyuma y'uko polisi y'igihugu ibujije abagenzi ndetse n'abayobozi b'ibinyabiziga bya moto gutwara abagenzi bafite imizigo, haje ubundi buryo bushya bwo gutwara imizigo hakoreshejwe moto zifite akantu k'inyuma ko guterekamo imizigo.

Bumwe mu buryo bwo gutwara abagenzi dukunze kwita ko ari ubw'abakire, bakoresheje imodoka zitwara abagenzi zibakuye ahantu hamwe zibajyana ahandi zihariye, usanga abantu bazitinya kubera ibiciro byazo biba biri hejuru.

Imihanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo, byubakwa kenshi hakurikijwe ndetse hagendewe ku igenamigambi rya leta, aho usanga biba biri mu buryo bwo koroshya ingendo, ndetse n'ubuhahirane hagati y'imijyi igiye itandukanye, hirya no hino mu duce two mu Rwanda.

Bumwe mu buryo buzwi bw'ingendo, mu mujyi wa kigali ni ugukoresha imodoka zitwara abagenzi, arizo abantu benshi bakunda kwita bisi cyane cyane usanga mu magare hirya no hino hagiye hatandukanye bitewe n'aho uturuka.

Bamwe mu bayobozi batwara ibinyabiziga birebire, na byo dukunda kwita ko bitwara imizigo, usanga babitwararana ubushishozi kuko bikunda gukora impanuka cyane, biba ari binini mu muhanda, igihe cyose kigize impanuka gikora usanga cyangiza byinshi.

Amwe mu matagisi yatwaraga abagenzi mu minsi ya kera, twagiye tubona asimburwa n'andi manini agenda atwara abagenzi kuri ubu ngubu. Aho wasangaga abantu bayinuba kuko yabaga afite imyanya mitoya yo kwicaramo, byahurizwamo abantu ugasanga bagenda bicaye nabi.

Zimwe mu mpanuka tubona kenshi mu Mujyi wa Kigali ndetse no mu Turere twose tw'u Rwanda, usanga ziterwa n'umuvuduko mwinshi, aho Polisi ivuga ko biterwa n'abayobozi b'ibinyabiziga baba batitaye kwita ku byapa ndetse bakanatwara rimwe na rimwe banyweye ibisindisha.

Bamwe mu bamotari muri uyu mujyi wa Kigali dusigaye tubona barabaye benshi aho buri hamwe hose ushobora kuba uhagaze ubona abamotari barenze ijana, iki kiba kigaragaza ko harimo gahunda nyinshi yo gukangurira abantu kwihangira imirimo.

Bimwe mu bituma ingendo zambukiranya uturere zoroha harimo amabisi manini, aho umuntu agenda yisanzuye kandi akabasha kugera iyo ajya amahoro. Abantu benshi bazikundira yuko zigenda gakeya kandi nta mpanuka zikunze kugira.

Bumwe mu bwikorezi bw'ibicuruzwa cyangwa se bw'imizigo runaka dusigaye dukunze kubona, ni amapikipiki matoya afite akantu k'inyuma ko gutwaramo ibinyabiziga. Ibi byatumye abantu bacika ku muco wo kwicara ku kinyabiziga cya moto bafite imizigo kandi iremereye ariyo yatumaga bakora impanuka.

Zimwe muri za sosiyete zitwara abagenzi zibakuye mu mujyi wa Kigali zibajyana mu ntara, zigenda zishimirwa n'abantu batari bakeya, aho usanga umuntu akubwira ko iriya sosiyete itwara abagenzi, ikora neza kuko yubahiriza igihe kandi igatanga na serivisi nziza.

bamwe mu bakora umwuga w'ubunyonzi ndavuga wo gutwara abantu bakoresheje amagare yabo bavuga ko babangamiwe cyane n'ababafata kubera ko biba bitemewe gutwara abagenzi hakoreshejwe amagare mu mujyi wa kigali gusa nanone bamwe bakemeza ko bibatunze Bamwe mu bakora umwuga w'ubunyonzi ndavuga wo gutwara abantu bakoresheje amagare yabo, bavuga ko babangamiwe cyane n'ababafata kubera ko biba biremewe gutwara abagenzi hakoreshejwe amagare mu mujyi wa Kigaki, gusa nanone bamwe bakemeza ko bibatunze.

Bimwe mu bituma ubucuruzi kuri ubu ngubu bwaguka cyangwa se butera imbere ni uko hubakwa imihanda bikajya byoroha ko ibicuruzwa bimwe bishobora kuva hamwe bikajya ahandi bitandukanye na mbere, aho buri kimwe cyose washakaga ahantu utakibonaga byasagusabaga kujya ahandi hantu.

Muri iki gihe turimo usanga aho abantu bategera dukunze kwita muri gare ari ho hagaragara ibicuruzwa byinshi cyangwa se ubucuruzi buhuza abantu benshi, aho hakunda kurangwa n'ubucukike bw'abantu ndetse n'ibinyabiziga bitari bikeya.

Imwe mu mihanda yo mu gihugu hagati igenda igaragara ko itakiri ku rwego ruhagije, aho usanga ubucucike bw'imodoka bugenda bwiyongera bitewe n'imihanda ihari, muri iki gihe usanga abayobozi b'ibinyabiziga bavuga ko bakererwa kugera ku murimo bitewe n'ubwo bucucike.

Mu turere dutandukanye tw'u Rwanda ugenda ubona ibikorwa remezo byo kubaka imihanda, aho usanga ifasha abantu mu buryo bwo kugenda ndetse n'ubuhahirane hagati y'imijyi igiye itandukanye; ibyo rero bikaba bifasha abaturage mu buryo bwo kwishimira imisoro batanga, ndetse n'inyungu babona mu kubaka igihugu cyabo.

Zimwe mu modoka akenshi zitwara imizigo cyangwa se ibikoresho runaka zikunze gukora impanuka, aho polisi y'igihugu igenda igira inama abatwara ibyo binyabiziga kugenda bafite ubushishozi bwinshi kuko bikunda guteza impanuka nyinshi cyane.

Binyuze muri gahunda yo kunoza uburyo bwo gutwara ibintu n'abantu hagiyeho amategeko y'uburyo bwo kwicara muri bisi aho usanga nta muntu wemerewe gutendeka cyangwa se ngo arenze umubare bisi ishobora gutwara. Aho usanga abantu bicaye neza ntawukikiye undi kandi bose banyuzwe.

Iyo witegereje umujyi wa Kigali usigaye ubona hagiye hari ubusitani bugiye butandukanye, aho leta yabashije gukangurira abaturage gutera ibiti ku muhanda ari byo bigenda bitanga igicucu.

Bimwe mu byo tubona kuri ubu, ni ubwoko bwinshi bugiye butandukanye bw'amamodoka agenda agaragara hano mu Rwanda. Aho usanga uko bucyeye n'uko bwije abantu bahinduranya amamodoka ndetse hakaba hari n'abavuga ko imodoka zimaze kuba nyinshi mu Mujyi wa Kigali.

Bamwe mu bagenzi bakunda gutega uburyo bwa moto bavuga ko zikunda kugira impanuka nyinshi, gusa kuri ubu polisi y'igihugu isigaye igenda ifata imyanzuro ikomeye, aho nta mumotari ushobora kujya mu muhanda nta bwishingizi afite bw'ikinyabiziga atwaye.

Mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga agendera mu muhanda ubisikanwamo aba asabwa kugenda yitonze, ndetse akirinda inkomyi yatuma we na mugenzi wiwe bakora impanuka, aho usanga bifasha impande zombi, kuba bazagenda mu mutuzo kandi batekanye.

Mu masaaha ya n'ijoro nibwo hakunze kugaragara mu mujyi wa Kigali ubucucike bwinshi bw'imodoka aho usanga ari urujya n'uruza, abantu bataha bava mu mirimo yabo ndetse n'imodoka zitaha zivuye mu kazi, aha ngaha rero usanga buri umwe wese arwana no kugira ngo agere mu rugo kare.

Bumwe mu buryo bworoshye bw'ingendo zihuse, abantu benshi bakunda gutega, abo twise abamotari bakoresha moto, aho usanga bihuta kandi bakaba bakugeza ahantu, cyane imodoka idashobora kukugeza mu gihe bo baba bakoresheje.

Bumwe mu bwikorezi bw'ibicuruzwa, abantu basigaye bamenyereye bwambukiranya imipaka bukorwa n'amakamyo, aho abantu benshi bayatinya kubera impanuka akunda guteza, aho usanga muri buri cyumweru udashobora kubura ikamyo yaguye, cyangwa se yakoze impanuka.

Bamwe mu bakenera serivisi yo gutega ibinyabiziga mu buryo bwo kuvana hamwe bajya ahandi bakoresheje amabisi binubira cyane serivisi zitangwa n'icyo kigo, aho usanga bavuga ko bagenda mu bucucike bwinshi cyane muri aya ma bisi twita ko ari manini.

Bamwe mu bafasha abantu mu kwimura ibintu cyangwa gutwara imizigo yabo bayivana ahantu hamwe bayijyana ahandi, usanga bakora imirimo y'ingufu cyane, abo dukunze kwita abakarani, aho usanga ku munsi ashobora gukora imirimo imusaba ingufu nyinshi cyane kandi akumva ntacyo bimutwaye.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko ukorerwamo mu byerekezo byombi, ku ruhande rw'uburyo bw'umuhanda hakaba haparitse abamotari benshi cyane bigaragara ko bategereje abagenzi kandi hirya hakagaragara inzu nini cyane ubona ko ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Bimwe mu bikunda kugaragara ku bantu bakoresha ingendo zambukiranya uturere bajya mu tundi, bavuga ko bagenda bishimira n'inozwa rya serivisi y'imodoka bagendamo, kuko usanga hari aho bagenda bazana imodoka zibafasha kugenda bicaye neza mu rugendo rugenda kure.

Bimwe mu bigaragara hirya no hino ni utumodoka dufasha abantu gutwara imizigo, tumaze kuba twinshi ugereranyije na mbere aho wasangaga umuntu ashobora kwicara kuri moto maze akaba yakikira umuzigo wose atwaye cyangwa ibintu runaka yaravuye kugura.

Bimwe mu bikorwa byakozwe na Leta maze abantu bakabyishimira harimo kuba barafashe inzira zanyuragamo imodoka bakazifunga maze bakajya bahemerera abanyamaguru, mu rwego rwo kugabanya ubucucike bwinshi mu Mujyi wa Kigali aho dusanga ubucuruzi bwinshi bw'ibanze.

Bimwe mu bintu bikomeye kuri ubu ni ukwita no gukuza ibyatsi bigaragara mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Aha i Burayi baradusize cyane aho usanga bakinira ku byatsi by'umwimerere ariko twe ugasanga dukinira ku byatsi byakozwe n'abana b'abantu.

Imwe muri siporo yitabirwa cyane n'urubyiruko, harimo umupira w'amaguru, aho usanga ku bibuga hirya no hino hagaragara abatari bakeya mu kwitabira iyi siporo rero usanga igitsina gore kidakunze kuyitabira cyane kubera ko n'abo bagira ibindi bakunda bidasaba imbaraga.

Ni gake cyane uzasanga mu gihe cy'ibiruhuko by'amashuri abana babuze icyo bakora, kuko haba hari ibibuga byubatswe na Leta. Ushobora kuba wajyayo ugasangayo urubyiruko rwinshi rugiye rutandukanye, rwaje kuharuhukira ndetse no gukina zimwe muri siporo bahasanga.

Amwe mu mahuriro agenda ashyirwaho y'urubyiruko, cyane mu kuzamura siporo, usanga hagenda hubakwa ibibuga bigiye bitandukanye, yaba ari mu mikino y'umupira w'amaguru, imipira y'amaboko, imikino njyarugamba, ndetse n'ahandi n'indi mikino igiye itandukanye.

Bimwe mu byapa bigaragara mu muhanda ari byo biba biyobora abayobozi b'ibinyabiziga usanga bishyirwa ahirengeye kugira ngo umuntu wese abashe kubibona, aho usanga bishobora kukuburira ko imbere yawe nta muhanda ugihari, ukaba wakata usubira mu cyerekezo wari uturutsemo.

Ibyishimo by'abakunze kugaragara mu ngendo zinshi zambukiranya imipaka, yaba ari hano hirya mu Bihugu by'abaturanyi usanga bishimira serivisi bahabwa iyo bageze ku mupaka wa hano mu Rwanda. Aho ibintu byose biba byihuse kandi bakabaha uburyo bw'umutekano ukomeye.

Bamwe mu bayobozi b'ibinyabiziga bikoresha imbaraga za moteri usanga babujijwe cyane n'ibitegekwa n'icyapa iyo bageze aho abagenzi bambukira kuba bakandagira mu mirongo icagaguye iharanga.

Bumwe mu bundi bwoko bw'ibimenyetso dushobora gusanga mu muhanda harimo ibimenyetso bimurika. Aho usanga bigaragara cyane mu mahuriro y'umuhanda. Ibi biha uburenganzira umunyamaguru cyangwa se umuyobozi w'ikinyabiziga kuba yatambuka mbere abandi bakaba barindiriye.

Bimwe mu bimenyetso tubona by'ibyapa bigaragara mu muhanda, usanga bishyirwa ahantu habonwa cyane, ku buryo umuyobozi atakwitwaza ko atigeze abona icyo cyapa, ahubwo agomba guhora ari maso mu gihe atwaye, areba n'ibyo asabwa no gukurikiza.

Bimwe mu bimenyetso dusanga mu muhanda dukunze kwita ibyapa bishyirwa mu muhanda kugira ngo bitegeke, birange ndetse binaburire abagenzi bakoresha uwo muhanda, aho usanga abantu babyubahiriza mu rwego rwo gukurikiza amabwiriza yo kugenda muri uwo muhanda.

Bimwe mu byapa byerekana ibibuzwa cyangwa se ibigomba gukurikizwa mu muhanda, harimo ibyapa bivuga ko ugomba kugenda gake. Iyo umuyobozi akibonye, aba asabwa kugenda gake nk'uko bimusaba, igihe abyirengagije aba ashobora kuba yahanwa n'umukozi ubishinzwe ari we mupolisi.

Bimwe mu bimenyetso bishyirwa mu muhanda bigaragaza ko hari imirimo y'ikorwa ry'umuhanda iri gukorwa, ni ibyapa bishingwa uhereye ku ntangiriro y'aho iyo mirimo itangirira kugeza ku iherezo kugira ngo biyobore abagenzi ndetse n'abakoresha umuhanda bibaburire.

Bimwe mu bimenyetso tumenyereye ndetse tubona mu muhanda harimo ibitegeka, ibibuza ndetse n'ibiburira. Aho usanga umuntu yubahiriza icyapa bitewe n'icyo abonye imbere ye mu buryo bw'iburyo, aho igihe ubonye icyapa kigusaba kugabanya umuvuduko ushobora kugabanya uwo muvuduko utitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Ukurikije icyapa ubona impande yawe.

Bimwe mu bintu bikunze kugaragara hirya no hino mu muhanda ko bibangamye, usanga ari uburyo ibinyabiziga biparika, aha polisi igarukaho cyane bitewe n'uko ahatemerewe guparika akenshi haba hari icyapa kibibuza.

Kuri ubu uburyo bwo kwambukiranya imipaka ujya mu bihugu by'abaturanyi, ni ibintu byagiye byitabwaho cyane ku buryo abatanga serivisi bazitanga neza kandi mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho bitagisaba igihe kinini cyane kuba bukiri aho batangira izo serivisi.

Bimwe mu biranga ibyapa bigaragara mu muhanda harimo ibyapa byerekana umuvuduko ntarengwa, aha ngaha umuyobozi iyo ageze kuri iki cyapa aba asabwa gukurikiza amabwiriza ndetse n'umuvuduko uri kwerekanwa muri icyo cyapa.

Bimwe mu byapa bigenda bibuza bigaragara mu muhanda harimo icyapa kibuza ko aho hantu nta modoka zemerewe kuhaca iyo umuyobozi utwaye ikinyabiziga abibonye ahita akata imodoka yiwe agashaka indi nzira yajya guca kuko yabibujijwe kurenga icyo cyapa.

Bimwe mu byapa bigaragara mu muhanda usanga biba biburira ndetse bikaba binabuza, aho usanga nk'igihe imbere umuhanda uri kugendamo harimo ikorosi cyangwa ikona runaka, hakaba hashingwa icyapa mu ruhande rw'iburyo bwawe kikuyobora ndetse kikanakuburira ko imbeba ugiye guhura n'ikorosi rikata rijya iburyo cyangwa ibumoso.

Hirya hino mu mihanda ya Kigali usanga hagaragara ibyapa ku muhanda, abayobozi b'ibinyabiziga baba basabwa kubahiriza bimwe muri ibyo byapa, cyane ibyapa byerekana amasangano y'umuhanda aho basabwa kugenda bitonze.

Bimwe mu bimenyetso bigaragara mu muhanda bigizwe n'ibyapa bikunze kuyobora abayobozi b'ibinyabiziga cyane aho usanga babyitaho kuko biba biri iburyo bwabo y'umuhanda bitewe n'icyerekezo bari kujyamo.

Bimwe mu byapa bigaragara mu muhanda usanga bigenda bishyirwa ahantu hatandukanye, ariko byose biba bifite ubusobanuro burebana n’aho byashyizwe. Akenshi, usanga ibyapa biri iburyo bw’umuhanda, kuko ari byo umuyobozi w’ikinyabiziga aba agomba gukurikiza.

Ibyapa byerekana ko ahantu hatanyurwa ubisanga hirya no hino. Aho usanga byorohera cyane abayobozi b'ibinyabiziga kuba babyubahiriza, kuko aho hantu ntihaba hanyurwa koko. Ibingibi bigarukwaho cyane na polisi ko iyo ubusanyije n'aya mategeko uhanwa.

Bimwe mu byapa bigaragara mu muhanda akenshi biba ari ibyapa ndanga, aho usanga bishobora kuranga ikintu kiri imbere, ibi bigaragara cyane nk'igihe mu masangano hari uburyo bwo kumurika buyobora abayobozi b'ibinyabiziga usanga mbere y'uko uhagera hari ikindi cyapa ubona kiguteguza ko imbere uri bubone ibimenyetso bimurika.

Bikunze kugaragara ko abayobozi b'ibinyabiziga batajya bita ku byapa biba bishinze ku mihanda aho usanga bibabera intandaro yo kuba bakora impanuka za hato na hato bigatuma abantu baburiramo ubuzima bwabo ndetse n'ibindi byinshi byangirika.

Bimwe mu byo leta yagiye ishishikariza abaturage, bari bagiye batuye aho dukunze kwita mu manegeka, ni ukwimuka bakaza ku mudugudu, aho utura wegeranye n'abandi kandi ahemewe guturwa hatari ahantu hateza ibibazo.

Mu bigize igihugu ndetse no gushaka inyungu za rubanda, harimo gukora ibikorwa bigiye binyuze cyangwa se bihuruza abaturage cyane, aho usanga hari nk'ubusitani bugenda bushyirwaho hirya no hino mu rwego rwo kugira ngo abene gihugu nabo bajye bagira umwanya wo gutembera kandi babone ibyiza bitatse igihugu cyabo.

Bumwe mu busitani cyangwa se amaparike agiye atandukanye leta ikora iba igira ngo yegereze ibikorwa byiza by'ubukerarugendo abaturarwanda, aho usanga banashishikariza abaturarwanda kuba basura ibyo bikorwa kugira ngo bagire ubumenyi cyangwa se bajye barushaho kuruhukira aho hantu.

Bamwe mu bacuruzi bagenda bavuga ko imiryango cyangwa se aho bakorera ubucuruzi hahenda, kubera ko ba nyir'inzu baba barubatse ibyo bikorwa bifuza amafaranga menshi, ugereranyije n'ayo ba rwiyemezamirimo baba bazakura mu bucuruzi bakora.

Bimwe mu bintu bigezweho muri iki gihe mu buryo bwo kubika amafaranga ni ukugura ibibanza, aho ushaka umwanya runaka udatuwe ukaba wahagura ukazahagurisha mu gihe runaka wongeyeho amafaranga ugereranyije n'ayo wahaguze, kuko mu mujyi wa Kigali muri iki gihe kubona ikibanza ari ikintu kigoye cyane.

Amwe mu mazu aherereye mu mujyi wa Kigali, usanga akodeshwa mu buryo bugiye butandukanye, aho ushobora gusanga inzu iherereye ku muhanda cyangwa ku nkombe y'umuhanda ihenda kuruta inzu iri muri karitsiye hepfo cyane, ugasanga ibiciro bigiye bitandukana bitewe n'aho inzu iteretse.

Imwe mu miturire mu mujyi wa Kigali igenda ihinduka uko bwije n'uko bukeye, aho usanga haba hari igishushanyo mbonera abaturage basigaye bagenderaho mu gihe bagiye kubaka cyangwa kuvugurura inyubako bari batuyemo. Ibi kandi bikaba bifasha mu iterambere ry'uko bashaka ko umujyi wa Kigali uzaba usa mu myaka iri imbere.

Bimwe mu bituma uduce tumwe na tumwe two hirya no hino duhinduka, ni inyubako zigenda zitwubakwamo. Aho usanga abantu barahinduye uburyo bw'imyubakire ugereranyije n'uko bubakaga kera, aho wasangaga umuntu yazamuraga inzu ariko ntiyite uko isa inyuma. Ariko kuri ubu, akaba yahitamo uburyo bumunogeye kandi bubereye ijisho bitewe n'ibyo akeneye ndetse n'ubwiza bw'inzu ashaka.

Bumwe mu buryo bw'imiturire mu mujyi wa Kigali busigaye bwarateye imbere, aho urebeye inyuma usanga hari inyubako ndende zigenda zubakwa maze buri muntu akaza akaba yafata umuryango wiwe akaba ari wo abamo we n'umuryango we ibyo dukunze kwita amazu ahuriwemo n'abantu.

Mu duce tumwe na tumwe hirya no hino mu mujyi wa Kigali, ugenda usanga abantu bashishikarizwa gukora imbere y'ibipangu byabo, mu buryo bwo kwirinda no guharanira ko umujyi wacu usa neza cyane hagendewe ku isuku ndetse n'umutekano.

Tumwe mu duce duherereye hirya no hino abantu bakunze kwita ko tugaragaramo akajagari niho usanga ba rwiyemezamirimo benshi, aho usanga utabura serivisi runaka kandi n'iyo serivisi wayibona ukayibona umuntu uyigukorera ku giciro gitoya cyane.

Imwe mu mihanda yubakwa, amazu ndetse n'ibindi bikorwa remezo usanga bigenda bigira inyungu kuri rubanda nyamwinshi, aho usanga inyubako zimwe zikorerwamo amavuriro mu buryo bwo kwegera abaturage ndetse bakabona ubufasha bwa hafi bw'ubuvuzi hafi yabo.

Bimwe mu bigezweho muri iki gihe, ni imyubakire igendanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali, aho usanga abazamura inyubako ndetse abafite gahunda yo kubaka bagenda bakurikiza ibyo leta yateganyije bijyanye n'icyerekezo cy'umujyi wa Kigali.

Bimwe mu biranga amasangano aho imihanda ihurira harimo ikizeru kinini usanga umuyobozi wese w'ikinyabiziga yubaha uwabanje kugeramo muri uwo muzenguruko maze nawe akabona kubona inzira atambuka.

Umuyobozi w'ikinyabiziga iyo agendera mu muhanda, agomba kureba ibimenyetso bishushanyije hasi mu muhanda ndetse akibuka gusiga akanya k'abanyamaguru mu mugihe agendera mu kuboko kwiba k'iburyo, aho usanga atabasha kwata umuhanda cangwa se igisate cy'abanyamaguru.

Bimwe mu bigenga amategeko y'umuhanda, ni ukubahiriza ibimenyetso bigaragara byishushanyije mu muhanda. Aho usanga umuyobozi w'ikinyabiziga abyubaha ndetse n'umugenzi akabyubahiriza; cyane aho bambukira usanga abanyamaguru, aba aribo bafite iya mbere yo kuba bagenda maze abayobozi b'ibinyabiziga bakabategereza.

Abantu benshi hirya no hino mu duce tw'icyaro usanga bakoresha igare mu buryo bwo kuva ahantu hamwe bajya ahandi, ariko mu mujyi wa kigali ubisanga ahantu hakeya cyane kubera ko n'iyo ubibonye usanga amagare akunda gukora impanuka nyinshi cyane akaba ariyo mpamvu abantu bayanga.

Bimwe mu biraro tugenda tubona hano mu Rwanda by'imihanda byambukiranya umuhanda unyuze hejuru y'undi muhanda, usanga abantu barabibonaga nk'iterambere rikomeye cyane. Gusa kuri ubu bisigaye bifatwa nk'aho ari ibintu byoroshye, kugeza n'aho abaturage bashobora kumva ko byakorwa mu gihe gito cyane.

Bumwe mu buryo bukunze gukoreshwa n'abadafite imodoka zabo bwite, ni uburyo bwo gutega moto, mu gihe ujya ahantu kure cyangwa se ujya mu kazi wakererewe biba byiza iyo ufashe moto kuko itajya itinda mu nzira kandi ari nyinshi.

Iyo ugeze aho bambukira akenshi uhasanga ibimenyetso biranga ko umuntu ashobora kwambuka, aho wasanga umurongo urambaraye ndetse ukahasanga n'indi mi mirongo icagaguye ari yo unyuramo mu gihe ushaka kwambuka ujya mu kindi gice cy'umuhanda.

Bumwe mu buryo bukunzwe gukurikizwa cyane mu muhanda usanga abayobozi b'ibinyabiziga bitwararika cyane iyo bageze aho abanyamaguru bambukira, kubera ko umunyamaguru niwe uba ufite uburenganzira bwa mbere bwo gutambuka, maze yamara gutambuka namwe mukabona gukurikira.

Amwe mu mategeko agenga ibibera mu muhanda, agenda ashyirwamo uburyo bw'ikoranabuhanga, aho iyo ugeze ku mirongo yambukirwaho abantu ushobora gutegereza akanya gato, iyo uharenze uhanwa n'ibyuma bifotora bikaba byakwandikira amafaranga umupolisi kabone n'ubwo yaba adahari.

Bimwe mu bigomba gukurikizwa n'abayobozi b'ibinyabiziga akenshi usanga iyo bageze aho abanyamaguru bambukira bagomba kurangwa n'ubwitonzi, aha ariko na none n'abanyamaguru na bo baba basabwa kwambuka bitonze barebye hirya no hino kuko bashobora gusanga umuyobozi w'ikinyabiziga atabibonye.

Mu gihe cy'amasaha yo ku mywa, abantu benshi baba bahugiye mu mirimo igiye itandukanye, aho iyo uraranganyije amaso mu mihanda hirya no hino usanga ibinyabiziga atari byinshi cyane, kugeza aho bagiye gutahira mu masaha y'umugoroba ariho ubona ubucucike bwinshi bw'ibinyabiziga.

Bumwe mu buryo bwaje bw'ikoranabuhanga bugezweho ni uburyo bwo gucunga umutekano wo mu muhanda, aho hirya no hino bagiye bashyiramo uburyo bwo gufotora imodoka zarengeje umuvuduko, ibi bikaba byaragiye bigarukwaho cyane na polisi, mu kugira abantu inama barushaho kugenda neza mu muhanda.

Imihanda yo mu mujyi wa Kigali imaze kugenda yubakwa ku bwinshi, aho usanga abaturage babyishimira kuberako bigenda byoroshya uburyo bw'ingendo. Urugero, ni nk'ahantu hubatswe umuhanda vuba usanga abantu bahita baba urujya n'uruza bahitabira kuhatura.

Inzira y'iterambere igenda isaba ibintu byinshi, nko kubaka ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Aha ni ukubaka imihanda y'abanyamaguru, aho usanga bayubaka mu buryo buboneye kandi banatekereza kuri bamwe babana n'ubumuga bashobora nabo kuyikoresha mu gihe itabagoye.